Uburyo bwo kwishingira ubworozi bw'inkoko mu kigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti, aho bagaragaza inkoko zemerewe kwishingirwa muri iki kigo cy'ubwishingizi.

Kwamamaza uburyo bwo gukoresha telefone ukaba wabasha gukanda akayenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, ukabasha gukoresha serivise zose zitangwa n'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa radiyanti.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, ibikapu birimo ibyo gutwaramo ibintu bitandukanye, hari inkweto z'ubwoko butandukanye.

Iduka ricuruzwa ibicuruzwa byinshi bitandukanye, hakaba hari ibicuruzwa bigiye biri mu tuntu tw'utubati dukozwe mu mbaho tugaragara, nyine harimo ibicuruzwa uba ubibona bigaragara, hakaba rero hariho hacuruzwamo ibintu bitandukanye.

Umugore uri mu iduka ricuruza ibicuruzwa byinshi bitandukanye aho yambaye akajirikere kari mu ibara ry'umutuku n'ama karimo gucuruza ibicuruzwa byinshi by'ubwoko bw'inshi butandukanye.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye y'abagore, Hakaba hari ibipupe biriho imyenda y'amakanzu y'abagore, hakaba harimo n'indi myenda myinshi itandukanye.

Umugore wambaye imyenda y'ibitenge hakaba imbere hariho imashini ya mudasobwa, akaba kandi harimo kwifashishwa mu gukuba, guteranya no gukuramo ukabara telefone kandi hirya hakaba hariho imyenda y'abagore icuruzwa n'uwo mugore.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'mweru nipantaro y'umukara undi akaba yambaye ishati y'umukara n'ipantaro y'ikigina, yambaye n'ingofero bakaba ari guhererekanya igifunguzo kinini cy'imodoka, bakaba bahagaze imbere y'imodoka y'umweru yo mu bwoko bwa Fuso.

Imodoka yo mu bwoko bwa toyota iteye amarangi y'umweru ikaba ifite amatara y'inyuma ikabona ko ari imodoka nziza y'ubwoko bugezweho.

Abagabo babiri bahagaze, umwe akaba afite ikifunguzo cy'imodoka kinini, bakaba bahagaze imbere y'imodoka igezweho y'amarange yenda gusa ikigina, bakaba bahagaze rero ahantu imbere y'inyubako...

Abagabo babiri n’umugore umwe, umugabo umwe wambaye umupira w’ umutuku, akaba ateruye umwana wambaye ingofero, mugabo wambaye ishati n’pantaro y’ikigina. Umugore akaba yambaye ikanzu iri mu mabara y’umweru n’umukara. Bahagaze imbere y’ imodoka y’ umukara, bakaba bari kubahererza urufunguzo rw’imodoka.

Umugabo wambaye ishati iciyemo uturongo tw'umweru n'umutuku, akaba afite imashini ibara amafaranga ku buryo bwihuse bw' ikoranabuhanga, akaba imbere ye hari amafarangagiye afunze mu migwi itandukanye.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga menshi ari mu note z'igihumbi, faranga menshi atandukanye, imbere hari imashini ibara amafaranga.

Ibiceri bibiri bifite amabara atandukanye kimwe gifite amabara y'umuhondo aho harimo ikimenyetso cy'ikawa hakaba handitseho banki nkuru y'u Rwanda igiceri bigaragara ko cyakozwe mu mwaka wa bibiri n'icyenda. Ikindi giceri kiri mu ibara ry'umweru harimo igihingwa ry'amasaka kikaba cyanditseho banki nkuru y' Rwanda kikaba cyarakozwe muri bibiri n'ikenda.

Igiceri cya makumyabiri giteretse ahantu h'umweru kikaba handitseho amagambo avuga ngo wa amafaranga makumyabiri, kandi hakaba hariho ikirangantego cy'u Rwanda, akaba ari igiceri kiri mu ibara ry'umweru.

Ikigega kinini cyane, umugabo afite amata arimo kubuganiza muri icyo kigega ubona ko ari nko mu ruganda rutunganya amata.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa bikomoka ku mata, bitandukanye, akaba ari uruganda rw'inyanza rutunganya amata rugakuramo ibindi binyobwa bitandukanye, akaba rero hari umuryango uriho ibyo bicuruzwa byose bikorwa n'urwo ruganda rw'inyange rutunganya amata.

Mu muryango amabido amajerekani ya amazi asukuye ya jibu, firigo igikombe n'abakora mukabati.

Iduka riringaniye frisize amarangi y'umweru n'ubururu hakaba hagiye hariho ibyapa bitandukanye, biriho ibicuruzwa bijyanye n'ibikomoka ku mata, hakaba ari ahantu hacururizwa amata n'ibikomoka ku mata n'bindi bitandukanye.

Muruganda rw'inyanza rutunganya amata harimo ibikoresho bifashisha mugutunganya amata imashini iyashyira kumurongo.

Urubuga rwo kuri murandasi rwa MTN, aho ushobora kujya kuri urwo rubuga ukabasha gukoresha serivisi zitandukanye zitangwa n'icyo kigo k'itumanaho cya MTN, rukaba ari urubuga ushobora kuba ufite muri telefone yawe, ubasha gukoresha serivisi zose za MTN.

Umugore wambaye umupira hariho ibirango bya MTN akaba ari umupira w'umuhondo akaba yegeranye n'abagabo bagera kuri bane bambaye bitandukanye, umugore wambaye ibirango bya MTN akaba afite icupa ririmo icyo kunywa cyoroheje cy'umukara.

Uburyo ushobora gukoresha serivisi zose zitangwa n'ikigo cy'itumanaho cya emutiyeni, ukoresheje murandasi aho wandikamo firambo emutiyeni bashaka gutunga apurikasiyo ya emutiyeni muri telefone yawe aho ubasha gukoresha selevizi zose ukoresheje telefone yawe.

Urubuga rwo kuri murandasi rw'irembo, irembo akaba ari ahantu hasabirwa serivisi zitandukanye za leta, harimo nko gusaba ibyemezo byo gushyingirwa, gusaba ibyemezo bijyanye n'indangamuntu, gusaba gukoreraho ibyemezo gukorera amaperime, impushya z'agateganyo n'impushya za burundu zitandukanye.

Uburyo bwo kwishyura ku rubuga rw'irembo ukoresheje eyeterimani aho ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri kane akanyenyeri gatanu akanyenyeri rimwe hanyuma ugakurikiza amabwiriza.

Ubutumwa bw'ikigo cy'itumanaho cya MTN akaba bagaragaza uko ushobora gukanda akanyenyeri gatandatu, karindwi rimwe urwego ugakurikiza amabwiriza hanyuma ukabasha gukoresha serivisi zitandukanye. Hakaba hariho umugabo wambaye umupira w'ubururu n'umugore wambaye ibitenge, barimo kureba uko iyo serivisi ikora muri telefone nini.

Ifishi igaragaza uko imisoro n'amahoro bigenda, uko umuntu agenda yishyura imisoro n'amahoro, akaba ari ifishi itangwa ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda aho iri muri mudasobwa ku rubuga nko kuri murandasi rw'imisoro n'amahoro.

Ifishi y'itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda ikaba ari ifishi igaragaza umusanzu w'imisoro cyangwa amahoro umuntu yishyuye hakaba hagiye hariho ibijyanye n'imisoro itandukanye.

Inyemezabwishyu itangwa n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro cy'u Rwanda aho hagenda harimo umusoro n'amahoro umuntu yishyura ku rwego rutandukanye.

Ibiganza bibiri biri kubara amafaranga y'inote agiye afite amabara atandukanye, akaba ari amafaranga y'inote afite ingano zitandukanye, akaba ari amafaranga menshi rero agiye afite amasura atandukanye bitewe n'agaciro k'iyo note.

Banki y'igihugu y'u Rwanda nkuru burya yagaragaje ko amafaranga y'abanyamahanga arimo kuguragurishwa mu gihugu cy'u Rwanda. Abamo amadorari y'abanyamerika, amayero, hakaba hari amafaranga yo mu ubwami bw'abongereza hakaba hari mashiringi muri kenya, amashilingi yo muri Uganda.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga yubwoko bw'amadolari y'abanyamerika akaba ari inote nyinshi zitandukanye z'igihumbi akaba ari amafaranga rero akoreshwa mu gihugu cy'amerika cy'amadolari akoreshwa n'ibindi bihugu bitandukanye .

Amafaranga menshi afunze mu buryo butandukanye akaba ari amafaranga y'ubwoko bw'inote, izo note zikaba zigiye mu byiciro bitandukanye bitewe n'igiciro cy'amafaranga hakaba hariho hu magana atanu, bibiri, bine ziri mu kigero gitandukanye bitewe n'agaciro kayo.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga y'inote zitandukanye, ubona ko ari amafaranga yo mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ari inote za magana atanu n'inote z'igihumbi. Inote za magana atanu zikaba ziri mu ibara ryenda gusa umuhondo, iz'igihumbi hakaba harimo amabara yenda gusa umutuku. Kandi hose akaba harimo ifoto y'umugabo w'Umuhinde witwa Gandi.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga atandukanye akaba ari amafaranga amwe afite ibara ry'ubururu, andi akaba ari amafaranga ari mu ibara ry'umutuku hirya yaho hakaba hari amafaranga rero menshi mu bwoko bw'inote atandukanye.

Lisite igaragaza uko amafaranga y'ibihugu by'i Burayi na Afurika biri kugenda bigurisha no kugura ku isoko umwaka w'ibihumbi makumyabiri na gatatu, aho harimo amadolari y'amafaranga y'u Bwongereza, Amayero, amafaranga yo mu Bushinwa, amafaranga yo mu Buyapani, ayo mu Rwanda, Ubugande, Uburundi.

Inote ya magana atanu y'amafaranga y'amayero, akaba iyo note iriho ibirango bitandukanye harimo inyenyeri ziri mu mabara atandukanye, harimo amabara y'umuhondo, ayenda gusa umutuku, kandi muri iyo note hakaba hariho inyubako ndende.

Amafaranga y'inote y'amafaranga yo mu gihugu cya congo, aho hagiye yarimo inote zitandukanye inote ya magana atanu, inota z'igihumbi, inote y'ijana, n'inote ya magana abiri. Akaba ari amafaranga rero y'inote agiye arimo amoko atandukanye bitewe n'ingano yayo.

Amafaranga y'amadorari, amafaranga yamanyanijeriya, amafaranga y'amanyarwanda ubona ko arahantu kumeza umuntu ari kuyabara muburyo butandukanye.

Ibiganza bibiri bifashe amafaranga menshi atandukanye, akaba amafaranga arimo ubwoko butandukanye, amwe akaba ari amafaranga afunze, andi akaba ari ikindi kiganza kikaba gifite amafaranga ubona ko atari menshi ari mu kiganza cyabo.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga menshi yo mu ubwoko bw'inote atandukanye, akaba ari amafaranga wo mu gihugu cy'Ubuhinde, akaba ari amafaranga menshi y'inote ziriho ibihumbi bibiri na magana icyenda.

Ibiganza bibiri ibiriguhererekanya amafaranga, ikiganza kimwe kikaba kiri buhereza gifite amafaranga ari mu buryo bw'inote aho ari amayero ijana na mirongo itanu y'ikiganza kikaba kiriho gifite amadolari agera ku ijana y'Amanyamerika.

Ibiganza bibiri ikiganza kimwe kikaba ari cyo mugabo kimwe cyaba cy'umugore bari guhererekanya kigureza ikindi amafarangaamadolari y'abanyamerika bari kunyuza munsi y'ikirahure bamakuba ari' ivunjisha cyangwa umware kwakira amafaranga.

Amafaranga yo mu gihugu cya kongo, akaba ari inote y' ibihumbi makumyabiri, inote y'ibihumbi icumi, inote y'ibihumbi bitanu, inote y'igihumbi n'inote ya magana atanu, amafaranga rero akaba ari mu mabara atandukanye bikurikijwe n'ingano yayo.

Icyapa cya Emutiyene kiriho madarapo y'ibihugu bitandukanye; hariho idarapo ry'igihugu cy'Ubugande, idarapo ry' igihugu cya Kenya, Tanzaniya bigaragara ko ari serivisi Emutiyene itanga mu bihugu bitandukanye.

Ahantu bavunjishiriza amafaranga y'ubwoko butandukanye, aho ushobora kuzana amafaranga y'amanyarwanda bakakunjira bakaguha amafaranga y'amadorari cyangwa y'amayero, hakaba ari ahantu rero hakoreshwa ivunjishwa ry'amafaranga mu bihugu bitandukanye.

Intebe z'imifariso n'imeza ikozwe mu rubaho n'akabati gakozwe mu mbaho, intebe z'imifariso zikaba zifite umwenda w'umukara bikaba ari ibikoresho rero byo mu nzu birimo kugurishwa.

Icyumba kirimo ameza, intebe enye, akaba ari meza n'intebe ziteye amarange asa, bikaba bikozwe mu mbaho nziza cyane zikaba ziri ahantu hamwe.

Inyubako nziza mo imbere harimo intebe zo kwicaramo nziza zikoze neza ku buryo bugezweho, harimo ameza, harimo utu etajeri, ndetse harimo n'akabati harimo n'ibuni.

Intebe zikozwe neza z'imifariso, igera, zifite imyanya igera kuri itandatu, n'ameza ubona ko ari ibigurishwa.

Icyumba kirimo intebe zo mu bwoko bw'imifariso zikaba zifite ibara ryenda gusa ubururu bwijimye harimo n'ibiti.

Inyubako yubatse ku buryo bw'igorofa, hakaba hari ahantu heza hari ubusitani bwiza burimo indabyo n'ibiti bitandukanye, hakaba kandi hari ahantu hari amahema y'umweru hasi hakaba harimo intebe n'ameza yo kwicaraho mu gihe umuntu ari kwiruhukira yicariye hanze.

Pisine, intebe, intebe bicaramo bavuye muri pisine n'ameza ari inyuma ya pisine, imitaka ibiri n'indi nyubako zizengurutse aho ngaho bigaragara ko ari hoteli.

Inyubako ndende yubatse ku buryo bugezweho bw'amagorofa ikaba ari inyubako iri kwaka amatara y'umuhondo meza cyane ari inyuma abahanda n'inyubako ifite ubusitani bwiza birimo ibiti by'imikindo hakaba hari aho kogera ahagezweho ha kijyambere.

Inyubako ndende yubatswe mu buryo bugezweho imbere yiyo nyubako hakaba hariho ibiti by'ibyuma biriho amadrapo atandukanye imbere yaho hakaba hari piscine yo kogeramo, hakaba hari ubusitani n'ibiti byiza biteye imbere yiyo nyubako ukabona ko ari inyubako nziza .

Inyubako nini yubakishira amatafari ahiya akaba ari ahantu mbere hari ibirahuri gusa bakishijwe ibirahureba ari inyubako kandi yubatse umu kuyereka amagorofa atandukanye arenze abiri aba hasi'bere y'inyubako hari aho ukogera hagezweho ha kijyambere akabona ko ari ahantu heza ho gutemberera no kuruhukira.

Inyubako nini nini mu buryo bunini bugaragara ukabakayubakoba ibirahureuruhande rumwe rw'imbere hakaba hari ahandi yubakishije amarangi y'umweru mbereyubako hakaba ari ubwogero bunini bwa kijyambere haba hateye ibiti byiza by'imikindo, hakaba ari naho abantu bicara baruhukira munsi y'imitaka bavuye koga muri ayo mazi meza mu ibara ry'ubururu.

Ahantu hateye ubusitani bwiza butandukanye, hagiye harimo indabyo zitandukanye, hakaba harimo akayira karimo amatafari ateye irangi ry'umweru n'ubururu, hakaba hirya hari ahantu hasakaye, hagiye harimo aho kwicara hatandukanye ubona ko ari ahantu heza ho kuganirira, ukabona ko hatewe n'ibiti byinshi bitandukanye bizana amahumbezi.

Inyubako yubatswe ku buryo bukoreshejwe ibiti by'imbaho ibisakaje ibyatsi, hakaba harimo intebe zikozwe mu biti by'imbaho, hari imikindo hakaba yicaye abantu benshi batandukanye bagiye bicaye ku meza menshi atandukanye, hakaba hari kwaka amatara afite ibara ry'umuhondo.

Ni cyumba kirimo intebe y'umufariso hakaba hari utumeza tubiri twegeranye dutandukanye mu mabara, hakaba kandi hasi hariho tapi, hakaba hari inzu, icyumba kirimo amakaro, hakaba hari amarido ari mu idirishya kandi mbere hakaba hariho insakazamashusho

Umuhanda wa kaburimbo ufite aho abanyamaguru bagendera habiri, hakaba hari umugabo uhagaze mu muhanda, imbere ye hakaba hari inyubako ndende zubabatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa n'ibirahure.

Inyubako ndende ya etaje yubatswe ku buryo bugezweho, ubona ko ari inyubako y'ubucuruzi, iriho ibyapa bitandukanye bitewe n'aho n'umuntu, ukorera aho ngaho k'uwo mu ryango, hanyuma bigaragaza ko ari purayime inshuwarensi.

Icyumba kinini kirimo intebe ziri mu ibara ry'umutuku, hakaba hariho ameza meza y'umweru kandi manini, imbere yayo meza hakaba hagiye hariho imashini nini za mudasobwa, hakaba hari kandi ho mu ruhande harimo ibiti byiza biteyemo muri iyo nyubako imwe, bimwe biba biri mubi mbona. Ibiti byo mu nzu by'indabyo.

Uburyo bwo gukorana na banki yitwa getI banki ukazamura bisinesi yawe ukoresheje imibare akanyenyeri karindwi gatatu karindwi akanyenyeri zeru ukabasha kuba wakoresha diti banki.

Abagabo bane n'umugore umwe, abagabo bane bambaye udupfukamunwa n'umugore nawe wabambaye agapfukamunwa, abagabo batatu bakaba bicaye mu ntebe n'umugore akaba yicaye mu ntebe, umugabo ahagaze.

Umukobwa cyangwa umugore uri kumwe n'umugabo ubonako ari mukazi, imodoka yo kwigishirizaho gutwara mumuhanga, nuko igaragazako bari kwamamaza inguzanyo yo kwiga imodoka.

Icyumba kirimo ibicuruzwa bitandukanye byo mu bwoko bw'imitako y'abanyarwanda, harimo uduseke, utundi tuntu dutandukanye tuboshye bigaragaza umuco nyarwanda, akaba ari imitako yo mu nzu.

Umugore uri kumwe n'umugabo barimo gucuruza imbuto zitandukanye, umugabo wambaye agapira ku muhondo, bakaba bari barimo gucuruza imbuto nyinshi zitandukanye, aho umugore afite imashini itanga inyemezabwishyu, igihe umuntu amaze kugura ibicuruzwa.

Umugore ucuruza imitako ya kinyarwanda uduseke imifuniko yuduseke ibishushanyo bya kinyarwanda bigaragaza umuco nyarwanda muri rusange.

Umugore wambaye ibitenge ugenda mu muhanda wa kaburimbo akaba harimo amapikipiki y'amapine atatu biri inyuma ye hakaba hari ye n'abandi bantu bacuruza ibicuruzwa bitandukanye hafi y'umuhanda hakaba hari ibiti by'amashanyarazi bitwara insinga z'amashanyarazi mu byerekezo byinshi bitandukanye.

Isoko ricururizwamo imitako itandukanye ariko ya kinyarwanda hakaba harimo imitako myinshi mu mabara atandukanye ishyirwa mu nzu ikaba ari imitako ya kinyarwanda .

Umugore wambaye imyenda iriho ibirango bya emutiyeni bahagaze imbere y'akazu gakoreramo umukozi wa emutiyeni akaba ari kumwe n'umugabo umukiriya wambaye umwenda w'icyatsi.

Akazu kubaki k'icyuma gafiteho ibirango byinshi by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya emutiyene, kaba harimo umukozi w'umugore akaba hirya hari akazu hari umugore wundi nawe waje gusaba serivisi za emutiyene.

Abagabo batatu bambaye amajiri ya emutiyeni bari munsi y'umutaka wa emutiyeni, imodoka itwara abagenzi mu buryo bwihariye wakaburimbo n'ubusitani buri hafi y'abo bagabo.

Abagabo babiri umugabo umwe akaba yambaye umupira uri mu mabara y'umuhondo n'ingofero y'ubururu inyuma ye hari abandi, umugabo wambaye umupira umeze nkuwe n'umugore uri inyuma yuwo mugabo wundi, uri imbere ye n'umugabo ufite telefone arimo yerekana aho yishyuriye akoresheje uburyo bwa mobile money ya mtn.

Agatelefone gatoya yo kwishyura amafaranga ibihumbi makumyabiri na bitanu kuri Jean Bosco hakoreshejwe uburyo bwa momo pay.

Inyubako yubatswe mu buryo bwiza bugezweho harimo amakaro, ibirahure imbere ikaba ikodeshwa amadorari ibihumbi magana atanu ku kwezi mu mugi wa kigali mu rwanda.

Inyubako yubatswe neza mu buryo bugezweho imbere harimo amakaro hasi no ku nkuta zimwe na zimwe hakaba harimo amatara ari kwaka, hakaba harimo igikoni cyiza kigezweho; ukabona ko ikodeshwa cyangwa ihagaze agaciro k'ibihumbi bibiri by'idorarari y'abanyamerika mu rwanda kigali.

Inzu mbere yubakishijwe amakaro hasi no mu nkuta zazo haba harimo ibikoresho bya kijyambere by'ikoranabuhanga akabara kandi harimo amatara arimo kwaka akaba ari inzu ihagaze agaciro k'amadolari igihumbi na maganatanu y'abanyamerika ku kwezi ikabiri muri Kigali mu Rwanda Kacyiru.

Inzu nziza yubatse neza igikoni kigezweho cyubatswe mu buryo bwa kijyambere mbese bigaragara ko ari inzu igura miriyoni ijana na mirongo ine z'amafaranga y'urwanda hano mu mugi wa Kigali i Kanombe Kigali siti.

Inzu iri mugipangu kinini kiza cyubatswe muburyo bugezweho ubona ko mumbuga harimo amapave bigaragara ko iyonzu igurwa miliyoni mirongo irindwi nebyiri mumugi wa kigali m'urwanda.

Inyubako yubatse neza mu buryo bugezweho, akaba ari inyubako irimo amakaro, ikaba afite inzugi zikoze mu mbaho zifite verine y'umutuku, hakaba hariho amatara meza yaka mu ibara ry'umuhondo, ukabona ko ari inyubako irimo amadirishya afite ibirahure, ikaba iteye neza, iteye amarangi ahantu hose, bikaba bigaragara ko igurwa miliyoni ijana na mirongo ine i Kigali mu Rwanda.

Inzu ihagaze agaciro k’amafaranga ibihumbi magana atanu y’Amadolari y’Amanyamerika mu Mujyi wa Kigali, ikaba ari inzu yubatse neza, iteye amarangi y’umweru, iteye ibirahure, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Inzu igaragaza igikoni ravabo, akabati, idirishya bigaragara ko iri muri Kigali ikaba igurwa amafaranga miliyoni maganatatu mirongo itanu.

Inzu irimo ibyumba byo kuryamamo bine, ubona ko ari inzu iherereye i Gisozi mu mugi wa Kigali ikaba ari inzu irimo ibikoresho byose byo mu nzu kandi byiza, ikaba ari inzu yubatswe ku buryo bugezweho.

Inyubako nini iri mu gipangu cyiza giteye amarange, irimo ubusitani bwiza, bigaragara ko ari inzu ihagaze miliyoni ijana na mirongo itatu z'amafaranga y'u Rwanda, wabasha kuyigura muri Kigali mu Rwanda , n'amatara meza.

Inyubako nziza yo guturamo, ubona ko yubatswe mu buryo bugezweho, iherereye I Kanombe, mu mugi wa Kigali, ikaba igura amafaranga agera kuri miliyoni ijana na cumi n'eshanu.

Inyubako igaragaza salo irimo intebe nziza cyane zigezweho ya, imeza igezweho, imitako ya Kinyarwanda, tereviziyo bigaragaza ko amadorari maganinani y'amanyamerika ku kwezi ari byo wabasha gukodesha iyi nzu muri Kigali.

Inzu ikodeshwa i Kagugu hafi ya stasiyo ya santere ya Rubisi, ibyumba bibiri byo kuraramo na amatuwarete abiri.

Inzu ikodeshwa i Remera ikaba irimo icyumba kimwe cyo kuraramo, icyumba kimwe cyo kogeramo, icyumba haba harimo aho kuruhukira, harimo n'igikoni ikabi ikodeshwa ibihumbi magana abiri by'amanyarwanda.

Inzu yubatse neza yarangiye iteye amarange, ifite amatara ari kwaka, igurishwa miliyoni ijana. Iherereye Kinyinya ifite ibyumba bine tuwarete eshatu.

Inzu yubatse neza iteye amarangi y'umweru, ikaba ifite igorofa hejuru yayo, ikaba ari inzu irimo ibyumba bitatu, ikaba ikodeshwara amafaranga amadorari ijana ku munsi, ikaba iri i Kigali Rebero.

Moto iparitse inyuma y'igipangu gikinguye, ubona ko arinzu ikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda. Akaba ar'inzu yubatse neza, iteye amarangi ku buryo bugezweho.

Inzu igizwe n'ibyumba bine byo kuryamamo, ubwogero butatu ikaba ikodeshwa ibihumbi maganatatu mirongo itanu by'amanyarwanda kukwezi ,ikaba iherereye muri Kigali, ikanombe.

Inyubako nziza itaye amarangi y'ubururu, umweru n'umuhondo, ikaba igizwe n'ibyumba bitatu byo kuraramo, ubwogera bubiri, ikaba ikodeshwa igiciro cy'amafaranga ibihumbi magana ane y'Amanyarwanda ku kwezi, ikaba ari inzi ikodeshwa iherereye i Kigali Kicukiro.

Inzu nini yubatswe muburyo bugezweho ifite ibyumba bitatu ubwogero butatu icyumba gikodeshwa ibihumbi magana atatu by'amanyarwanda ikaba iherereye kimironko kwa sekimikondo.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, irimo ibyumba bibiri byo kuraramo, ubwogero bubiri, ikaba ikodeshwa maganatatu mirongo itanu iherereye kigali kanombe.

Ahantu hanini hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hagaragaramo ikiganza gifashe bintu biri mu ishashi ,imbere hakaba hari mudasobwa nini ,hakaba kandi hariho ni bindi bicuruzwa byinshi bitandukanye.

Ahantu hanini ha hahirwa ibicuruzwa bitandukanye kaba ari ahantu hubatswe mu buryo bugezweho, kaba hasakaye harimo n'amatara hasi kandi hakaba hari amakaro hakaba ari ahantu hacururizwa rero ibicuruzwa by'ubwoko bwinshi butandukanye.

Ahantu hanini hacururizwa ibicuruzwa bitandukanye, hakaba hacuruzwa ibinyobwa, ibiribwa, ibinyobwa bisembuwe n'ibidasembuye, hakaba harimo umukobwa wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umukara akaba arimo kugura ibintu bitandukanye, aho hantu hakaba hasakaye kandi hasi hari amakaro.

Isoko ryubatswe ku buryo bwa kijyambere rikaba risakaye hasi harimo amakaro, hakaba hagiye harimo utubati tunini dutandukanye kuri utwo utubati hagiye harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye byo mu nzu.

Ahantu hacururizwa indabo zo mubwoko butandukanye ,zimwe ziba ziri mu bibumbano, harimo indabo n'ibiti byiza by'ubwoko butandukanye.

Ahantu hanini hubatswe mu buryo bugezweho akaba hasakaye, hasi hakaba hateye amakaro, hakaba ari ahantu hacururizwa ibicuruzwa byinshi byinshi by'ubwoko butandukanye, hakaba harimo abantu barimo kugenda bareba ibicuruzwa, bagura n'ibicuruzwa bitandukanye.

Ahantu hanini ho guhahira ibicuruzwa bitandukanye, aha ngaha harimo ibinyobwa bidasembuye bitandukanye n'andi hakaba harimo n'ibinyobwa bisembuye bitandukanye by'ubwoko bwinshi.

Isoko ryubatse ku buryo bugezweho, risakaye kandi ririmo amatara agaragaza ibicuruzwa byose bicururizwamo aho ngaho, akaba ari ahantu hanini hacururizwa ibintu bitandukanye, haba ibyo kurya ibyo imyambaro, ibyo kunywa byinshi by'ubwoko butandukanye.

Ibiganza bibiri, ikiganza kimwe gifite agakarita kari mu ibara ry'umuhondo, ikindi kiganza cy'iburyo kikaba gifite ikaramu kirimo kwandika kuri ako gakarita k'umuhondo, akaba ari udukarita tubiri.

Abagore n'abagabo batandukanye bambaye imyenda itandukanye, hakaba hari abahagaze, hakaba hari n'abandi bicaye ku meza maremare. Bagiye bafite amakayi n'amakaramu, bagenda bandika ibintu bitandukanye; hakaba harimo n'umugore ufite imashini yo gukora imibare.

Abagore bane, bicaye babiri bafite utwana dutoya tutarakura, bakaba bafite bose amakarita y'umuhondo, bayamanitse imbere yabo bakaba inyuma yaho hari abandi bagore bambaye ibitenge, batagaragara amasura.

Abagore babiri bafite icyapa kinini k'ikigo cy'ubwiteganyirize cy'u Rwanda, bakaba bambaye imyenda y'imikara, bakaba bari inyuma hari icyapa cy'ubururu kirimo ibiranganego n'amagambo yanditseho RSSB.

Isoko rya kijyambere ricururizwamo ibicuruzwa byinshi bitandukanye haba ibyo kurya, ibyo kunkwa bidasembuye amazi nibindi bicuruzwa byinshi umuntu yakenera.

Isoko rinini rigezweho rya kijyambere ririmo ibicuruzwa byinshi bitandukanye hakaba harimo ibicuruzwa byo kurya , ibicuruzwa bitari ibyo kurya , ibicuruzwa by'isuku rikaba ari isoko rinini ririmo ibintu byinshi bitandukanye .

Umuntu uba uri gucuruza umugore cyangwa umukobwa ucuruza inyanya ariko ari mu iduka.

Isoko rinini ryubatse ku buryo bugezweho risakaye hakaba hacururizwa ibicuruzwa byinshi bitandukanye bicuruzwa ibijyanye n'ibyo kurya ibijyanye n'ibyo kunywa ,amazi ibicuruzwa bisembuye n'ibidasembuwe akaba hari umugabo ufite wo guhahira arimo agenda ahitamo ibyo ari butware.

Isoko ryubatswe mu buryo bugezweho, akaba ari isoko risakaye ririmo ahantu hagiye hacuruzwa ibicuruzwa bitandukanye, akaba ari isoko rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya bitandukanye, ibyo kunywa bidasembuye n'ibyo kunywa bisembuye bitandukanye.

Isoko rinini ryubatswe mu buryo bugezweho rya kijyambere, hakaba harimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo ibintu by'ibicuruzwa bijyanye n'isuku, byo kurya, ibyo kunywa byoroheje, ibisembuye n'ibidasembutse.

Ahantu hanini harimo ibicuruzwa byinshi bitandukanye bigiye bipanze neza mu buryo biri ku murongo, ubona ko ubonamo amabiswi n'ibicuruzwa byinshi byinshi bitandukanye ubona ko ari supamaketi.